Ni umugore uri mu murima w'umuceri akaba ahetse pompe batwaramo umuti uyu mugore akaba arimo atera uyu muceri umuti kugira ngo uzabashe gukura nta bukoko cyangwa udusimba twabasha kuwutera ndetse no kuwudindiza mu mikurire yawo, ibi ngibi bikaba bifasha umuceri mu gukura neza ndetse no mu gutanga umusaruro mwinshi.

Umuhinzi wikoreye igikoresho bifashisha batera imiti imyaka, akaba yambaye imyenda yabugenewe, akaba arimo aragenda mu murima wiwe atera imyaka ayitera imiti kugira ngo irusheho gukora neza ndetse no kurwanya udukoko twagerageza kuyitera.

Umuhinzi wambaye ibyabugenewe, urimo atambuka mu murima wiwe, arimo agenda yuhira imyaka, uku kuhira imyaka bifasha mugukura neza ndetse no kurushaho gutohagira, bigatuma irushaho gutanga umusaruro mwinshi.

Abagabo babiri bahetse ibikoresho byifashishwa mu gutera imiti, akaba ari abagabo bari mu murima munini uteyemo imyaka, aba bagabo bakaba barimo baratera imyaka imiti kugira ngo irusheho gukura neza ndetse no kuyirinda uburwayi bwagerageza kuyitera.

Ni umugabo wambaye impuzakano z'umukara ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, akaba ahetse ipombo batwaramo umuti, akaba arimo atera ibigori umuti, ibi ngibi bikaba bifasha ibigori mu gukura neza ndetse no guhashya udukoko twagerageza kwataka iyi myaka.

Ni umugore n'umugabo bambaye udupfukamunwa aho abo bombi bafite amashashi arimo amafi ndetse n'injanga, bakaba bari mu mazi barimo boga muri aya mazi, hakaba harimo ahabugenewe hororerwa amafi ndetse n'inanga.

Ni mu mazi aho harimo indugu nyinshi ndetse n'amafi matoya bisa nkaho izi ndugo ndetse n'amafi byazamukaga bitewe n'umuraba n'umuraba mwinshi wari uri mu mazi.

Umugabo ufite amafi abiri mu ntoki, inyuma y'iwe hakaba hari inyubako itaruzura basa nkaho batangiye, naho akaba ameze nkaho ari ku mugezi.

Ni umugabo wambaye botine z'umuhondo akaba yambaye n'umupira w'icyatsi. Akaba afite akadobo mu ntoki ndetse akaba ari gukuramo ibiryo akaba arimo agaburira amafi ndetse n'injanga zororeye muri bino byuzi. Ibi byuzi bikaba bikoreshwa byororerwamo amafi atandukanye.

Abasore babiri umusore umwe wambaye ubusa mu gatuza ndetse n'undi musore mu i ruhande, ufite agakoresho bifashisha barimo baroba, naho uyu musore wambaye ubusa mu gatuza akaba afite isafuriya ari gushyira ari gushyiramo amafi barimo baroba mu mashitingi aho bororera aya mafi.

Igihingwa k'ikawa akaba ari igihingwa kiri mu gitebo, akaba ari ikawa zeze zasaruwe, zikaba zifashishwa mu gukorwamo ikawa, ikawa nziza igezweho, akaba ari n'ikawa nziza ikundwa hanze ndetse no mu Rwanda.

Abagore babiri akaba ari abagore bari mu murima w'icyayi, bakaba bahetse ibitebo mu mugongo ibi bitebo bikaba bibafasha mu gusoroma bihuse nta kibatangira ibingibi bigatuma basoroma icyayi cyinshi.

ni igihingwa cy'umuceri, akaba ari igihingwa gikunzezwe guhingwa ahantu hari amazi menshi nko mu bishanga, iki gihingwa iyo kimaze gukwera kikaba gisarurwa, kikajyanwa mu ruganda bakawutunganya, tukaba twabona kuwukoresha.

Ni umugore uhetse igitebo akaba yambaye akagofero mu mutwe, ndetse akaba yambaye n'uturindantoki, akaba ari mu cyayi arimo aragisoroma, asoroma ashyira muri ikitebo afite umugongo ibingibi bikamufasha mu kwihuta mu gusoroma icyayi.

Ni ubuhinzi bw'ikawa buteye mu buryo bwa kijyambere, bukaba ari ikawa ziteye mu buryo bwo ku muronko, zikaba zigiye zikurikirana hagiye harimo umwanya aho abazisa abazisoroma bagenda baca batabyigana cyangwa bagahura n'izindi nzitizi.

Ni igiti cy'ikawa aho harimo ikawa zeze, ikawa zeze ziri mu ibara ry'umutuku ndetse hakaba harimo n'izindi kawa ziteze ziri mu ibara ry'icyatsi. Akaba ari umuntu urimo uzisoroma ariko akaba asoroma izeze gusa ziri mu ibara ry'umutuku.

Abaturage barimo basoroma icyayi, hakurya y'icyayi hateye ibigori ndetse hari n'inzu, hakaba hari n'urutoki rwinshi cyane nk'uko bigaragara muri kino cyayi, ntabwo ari abaturage babiri gusa tubona hafi y'ifoto ahubwo harimo n'abandi benshi barimo basoroma.

Ni uducupa twinshi akaba ari uducupa turi hamwe akaba ari uducupa turi mu mabara y'umweru, utu ducupa tukaba tuzamo tukanabikwamo imiti yifashishwa mu gutera amatungo atandukanye kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Ni ibiganza bifite agacupa mu ntoki, akaba ari agacupa kari mu bwoko bw'umweru, ndetse iruhande rwako hakaba n'irindi cupa riri mu mabara y'umuhondo. Iri cupa rikaba rizamo umuti wifashishwa mu guha amatungo, kugira ngo akure neza ndetse anatange umukamo utubutse.

Icupa ryo mu bwoko bw'ubururu, akaba ari icupa rifunguye, iri cupa rikaba rirambitse ku ntebe y'umweru, ya pulasitike. Iri cupa rikaba ryifashishwa mu kubikwamo umuti, umuti wifashishwa mu gutera amatungo atandukanye.

Ni imiti myinshi akaba ari imitiri iri mu bubiko bwayo, iyi miti ikaba iri mu bikarito bitandukanye by'amabara menshi, iyi miti ikaba yifashishwa mu gutera amatungo mu kurushaho gutanga umusaruro mwinshi ndetse no kuba yabasha guhangana n'uburwayi.

Umugore n'umugabo bari mu murima bakaba bari mu murima w'ibigori, bakaba bari mu murima w'ibigori barimo bakora, barimo babagarira iyi myaka, barimo babagara kugira ngo imyaka ikure neza ye guterwa n'ibisimba bishobora kuyitera.

Ni umugabo wambaye ishati, inyuma yiwe hakaba hari inzu imeshejwe icyondo, naho iruhande rw'iwe hakaba hari inka. Uyu mugabo akaba ari umworozi w'inka, iy'inka ikaba iri mu rugo, aho ikikijwe n'urugo rwubakishijwe imiyenzi.

Ni ihene nyinshi cyane z'amabara atandukanye, zikaba ziri mu gisambu aho hazitiwe n'urugo, hakaba harimo ibiti binini, muri icyo gisambu hakaba harimo abandi bagabo benshi, bisa nkaho ari ba nyirazo cyangwa akaba ari abaguzi.

Umugore wambaye agakanzu k'umutuku akaba afite telefoni mu ntoki ahagararanye n'umugabo, bakaba bari mu biraro birimo inka, akaba ari ibiraro byubatse mu buryo bwiza, akaba ari ibiraro bisakaye bisakajwe amabati.

Igihingwa cy'urubuga akaba ari igihingwa giteye mu murima, aho gitatanye n'ibindi, gisa n'aho ari kimwe mu murima, iki gihingwa kikaba cyifashishwa mu kuzamura imirire myiza y'abantu bakuru ndetse n'abana.

Ni ibihingwa akaba ari ibihingwa by'amoko atandukanye, akaba ari ibihingwa byatangiye kumera, ibihingwa bikaba birimo iby'ibigori ndetse n'ibishyimbo na soya, ibihingwa bikaba byaratangiye kumera bikaba biri mu gihe cyo gutangira kwitabwaho.

Ni umurima akaba ari umurima uherereye mu gishanga, akaba ari imirima igabanyijwe hifashishijwe ibyatsi bigiye biyitandukanya n'iyindi, akaba ari imirima ihingwamo imyaka itandukanye.

Igiti cy'isombe gifite isombe risa naho ritohereye ariko igiti cyo gisa naho gikuze, inyuma y'iki giti hakaba hari inzu yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amarangi y'umweru.

Ni abahinzi bane aho harimo umugore umwe n'abagabo babiri, aho umugabo umwe ari gukata ibyatsi naho abandi babiri bakaba barimo barabitwara. Barimo bakora ibi ngibi kugira ngo bazabone guhinga bitabagoye.

Ni ikigori cyaciwe kikaba kirambitse hasi, akaba ari ikigori cyaciwe kitarere ikigori kikaba cyaraciwe n'umuntu waririmo ushaka kubyangiza cyangwa se warurimo gusuzuma, areba nimba byaba byeze, gusa ntabwo cyari kize.

Ibisheke bikiri bitoya, ibingibi bikaba byifashishwa mu kugaburira amatungo ndetse ibingibi iyo bimaze gukura bikera, abaturage, abantu nabo babasha kubirya ndetse bikaba binakorwamo amasuri binyuze mu nganda.

Inka irimo irarisha ubwatsi, munsi y'ino nka hakaba hari urugo, munsi y'urwo rugo hakaba hateye insina. Hakurya y'izo nsina, hari imirima ihinze ikaba iteyemo ibiti bitatanye birimo iby'amavoka ariko bikaba bitewe mu buryo hagiye harimo umwanya muremure kuva ku giti kimwemwe ujya ku kindi.

Ibihingwa by'imyumbati biteye mu murima utagira utarimo ikindi gihingwa. Akaba ari ibihingwa, bigiye biteye mu buryo butatanye, hagati yiki hagati yacyo ndetse n'ikindi hakaba harimo umwanya mugari.

Ni mu murima aho ubona hateye ibishyimbo ariko hakaba harameze kimwe kimwe ndetse hakabavanzemo n'imyumbati, gusa muri uyu murima hakaba harimo imyanda myinshi irimo amacupa ndetse n'amabuye.

Ni mumubande ahari ahari ibiti bitatanye hakaba hari igisambu kirimo ubwatsi inka zarisha ndetse n'andi matungo, hakaba hari umusozi uri hakurya cyane y'umurambi.

Ni mu murima aho hateye igiti kimwe cy'umwumbati akaba ari umwumbati wa maryohe, akaba ari umwumbati badasheshamo ifu y'imyumbati ariko akaba ari umwumbati bakura bagahita bawuteka uwo mwanya. Uyu mwumbati ukaba waraharuriwe kugira ngo uzakure neza ubone n'uburyo ushora ushora neza.

Ibirayi bikaba bikunze gukoreshwa mu birori bitandukanye, akaba ari ibiryo bikunzwe n'abantu benshi bo mu ngeri zitandukanye, aho ibi birarayi usanga byihagazeho cyane cyane ku isoko, aho usanga kitagurwa na buri wese, cyane y'uko ibirayi bidakunze no kwera ahantu hose, niyo mpamvu usanga byihagazeho ku isoko.

Ni insina, hakaba harimo insina ifite igitoki, akaba ari insina iteye mu gikari cy'inzu, aho ari insina iri mu busitani, mu busitani aho ikikijwe n'indabo.

Ni insina iri munsi y'urugo akaba ari in nsina ihetse igitoki ndetse ikaba ifite n'ibyana byayo, iyi nsina ikaba iteye hafi y'indabo hafi y'indabo, ndetse ikaba isatiriye n'inzu cyane aho iyi nzu ubona ko isize amarangi y'ubururu yiganje ku madirishya.

Ni umurambi aho imirima yose igerereye ikaba ntayisumba iyindi, akaba ari imirima irimo imirwanyasuri iyigabanya n'iyindi, akaba ari imirima iteye iteyemo umuceri ndetse hakaba hari n'ibyatsi bigiye biyitandukanya n'undi.

Igiti cy'ummbati gihinze mu murima, akaba ari umurima uhinzwe utarimo ibindi bihingwa, akaba ari umurima ufite ubusitani ku mpande, akaba ari n'umurima uri ku nzira hafi y'inzu.

Umuririmo w'ibigori, urimo ibigori byinshi, ibigori biri mu gihe, bigeze mu gihe cyo guheka abana, akaba ari umurima hejuru yawo ufite ibikoresho biwufasha mu kubona amazi mu buryo biworoheye.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara akaba yambaye ishati y'umweru, akaba afite umupanga mu ntoki, akaba ari kugenda mu murima w'iwe, akaba arimo agenda akora amasuku ayakorera insina kugira ngo zirusheho gukura neza ndetse no gutanga umusaruro.

Udushashi twinshi dufungiyemo ibyo kurya, muri utu dushashi tw'amabara atandukanye, hakaba, hafungiyemo ibyo kurya byinshi bitandukanye, birimo ibishyimbo, makaroni ndetse n'ibindi biryo byifashishwa n'umutetsi mu gihe arimo ateka.

Imbuto z'amoko atandukanye hakaba harimo pavuro, hakaba harimo na karoti ndetse n'umwembe. Umwembe ukaba uwurya uwutonoye na ho karoti ukaba uzihata ukaziteka kimwe cyo na pavuro urayihata ukayiteka.

Ni inzu yubatse mu ishyamba akaba ari ishyamba riri hafi y'amazi, iyi nzu ikaba ikoreshwa na ba mukerarugendo, cyangwa abandi bantu bagerageza gusura rino shyamba mu kubona ahantu barara bitabagoye.

Ishyamba ririmo ibiti bikuze, hakaba harimo inka irimo irarisha ubwatsi. Muri rino shyamba harimo ibiti birebire ndetse hakabamo n'ibindi byatsi bitoya, akaba ari nabyo inka iri kurisha.

Ishyamba ririmo ibiti bikuze ndetse n'ibindi bikiri bitoya, gusa harimo ibiti bikuze bigaragara nkaho bishaje, hakaba harimo n'ibindi bitoya bigaragara nkaho bikiri ibyana.

Ni insina ziganje, aho muri izi nsina havanzemo ibindi biti by'amoko atandukanye, munsi y'izi nsina hakaba hari uruzi rutemba. Hakurya y'uruzi hakaba hari imirima irimo, irimo imirwanyasuri ndetse n'ibiti bigiye biteye mu buryo butatanye.

Ni ishyamba ry'inzitane, akaba ari ishyamba ririmo amoko menshi atandukanye y'ibiti, aho muri rino shyamba tuhasanga ubwoko bwinshi bw'inyoni ndetse n'ubundi bwoko bwinshi bw'inyamaswa z'agasozi, muri iri shyamba kandi hakaba hakorerwamo ubukerarugendo, aho baza kureba zimwe mu nyamaswa ndetse n'amoko y'ibiti ari muri iri shyamba.

Inzu iri mu ishyamba akaba ari inzu ikikijwe n'ishyamba impande zose, akaba ari inzu isakajwe amabati asize irangi ry'icyatsi. Haruguru y'iyo nzu, hakaba hari utuyira tujya ku iyo nzu, ku mpande hakaba hari ibyuma bitangira bitangira abantu kuba bagwa mu ishyamba.

Ni ishyamba rinini kandi ryinshi ry'inzitane, rikaba ari ishyamba riri mu bice byombi, akaba ari mu cya ya ruguru ndetse no mu giceepfo, ikaba ari ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye, ariko rikaba rifite n'akandi gace katarimo ibiti ahubwo karimo ubwatsi bwo hasi.

Ni ibiti biteye hafi y'uruzi, akaba ari ibiti mu bwoko bw'inturusu, akaba ari ibiti byifashishwa mu kubaka inzu, ndetse bikanabazwamo imbaho zikoreshwa mu bwubatsi. Uru ruzi narwo tubona, rukaba rukorerwamo uburobyi ndetse n'amatungo yo mu mazi, akaba ariho yibera.

Ni umurima akaba ari umurima uhinze, akaba ari umurima mugari munini cyane, akaba ari umurima wahinzwe ukaba utegereje igihe cyigihingwa ngo bashyiremo ibihingwa. Akaba ari umurima uri mu ibihingwa bike bikeya akaba ari ibihingwa barengereye mu gihe barimo bahinga.

Inka nyinshi zirimo zirisha mu gisambu, igisambu kigaragara yuko ubwatsi bwumye bitewe n'igihe cy'izuba, hakaba harimo ibiti bitandukanye ariko bikaba biteye mu buryo butatanye, bikaba bitegeranye.

Inka nyinshi, akaba ari inka zizwi ku izina ry'inyambo, akaba ari inka ziri mu kiraro cyazo, izi nka zikaba zikunzwe hano mu Rwanda ndetse zikaba zisurwa n'abanyamahanga bitewe n'uburyo zifite amahembe yihariye ukwazo.

Ishyamba rifite ibiti byinshi ariko ibiti bigaragara nk'aho bitarera, akaba ari ibiti bitegeranye cyane, iruhande rw'ibi biti hakaba hari ubwatsi butoya bw'amatungo arisha.

Ni mu mubande akaba ari umubande uhinzemo imyaka. Iyi myaka ikaba itewe mu buryo bugezweho, akaba ari uburyo bwo ku murongo. Ibi ngibi bikaba bifasha umuhinzi mu gukurikirana imyaka yiwe igakura neza nta gisitaza ndetse ikamufasha no kurwanya udukoko twagerageza kuyataka.

Umugabo wambaye impuzankano yo mu bwoko bw'icyatsi akaba arimo yita ku ndabo, uyu mugabo akaba akora ubuhinzi bw'indabo, akabukorera ahabugenewe, akaba ari ubuhinzi bukorerwa ahantu hatwikiriye, ubu buhinzi bukaba bukorwa kugira ngo ubukora abashe kubona amafaranga amutunga.

Ibigori by'amabara y'umuhondo, ibingibi bizwi nk'ibigori bikorwamo ifu nziza ya patejone. Iyi ni ifu ikomoka mu Gihugu ikunda kuboneka mu Gihugu cya Misiri, akaba ari ifu ikunzwe cyane ku isoko, ibi bigori ntabwo bikunzwe ntabwo bikunze kuboneka hano mu Rwanda cyane ariko hamwe na hamwe birahari.

Abasore ndetse n'abagabo n'abagore barimo bayobora amatunda ku migozi kugira ngo azarusheho kwera umusaruro utubutse, ibi ngibi bizafasha aya mapera kutaranda hasi, kutaranda hasi ndetse no kwirinda udukoko twayangiza.

Abagore bishyize hamwe akaba ari abagore benshi bari kumwe n'abana babo, aba abagore bakaba barishyize hamwe bakora ubuhinzi bw'indaboba, akaba ari ubuhinzi bw'indabo bakaba bazigurisha mu bice bitandukanye, urabona ko ari abagore bishimye bitewe n'ibyo bakora ku buryo bibanezeza.

Ni ubuhinzi bw'indabo akaba ari ubuhinzi bukozwe mu buryo bwa kijyambere. Muri uyu murima w'indabo turasangamo abagore batatu hakaba harimo umugore umwe wambaye ingofero ndetse n'umukobwa wambaye agapira k'ubururu na ho hirya akaba ari umukobwa na wundi wambaye ingofero mu mutwe bakaba barimo basoroma imbuto z'izi ndabo, bakazishyira aho zitunganyirizwa.

Ivoka za kijyambere, izi voka ni voka nziza cyane, ni voka zisigayeye zikoreshwa muri iyi myaka, cyane yuko ni voka babanguriza barazibanguriza, yego.

Ni akarima k'igikoni akaba ari akarima k'igikoni kubabatse ku muhanda aho aka karima k'igikoni gatebamo imboga zitandukanye aho harimo amashu, ibitunguru ndetse n'izindi mboga n'izindi mboga z'ubwoko bwinshi, akaba ari akarima k'igikoni gafasha abaturage kuzamura imibereho myiza yabo.

Umugore urimo aravomerera imyaka, akaba ari umugore urimo aravomerera imyaka akaba yifashishije umupira utambutsa amazi, uku kuvomerera imyaka bifasha imyaka gukura gukura itohagiye ndetse no gutanga umusaruro mwinshi.

Abaturage batatu bari mu murima bakaba barimo buhira imyaka bakoresheje ibikoresho byifashishwa mu kuhira imyaka, ibi ngibi bifasha imyaka mu gukura neza kuko iyo imyaka yitaweho ikuhirwa irushaho kumererwa neza.

Ni umusore uri mu murima akabambaka ikabutura ndetse n'ishati afite ibikoresho bifashisha barimo buhira imyaka. Akaba ari imyaka ikiri mitoya irimo iruhirwa. Ibi bigafsha iyi myaka mu gukura neza ndetse no kugumya itohagiye bikarushaho mu gutanga umusaruro mwinshi.

Ni mu murima aho hateyemo imyaka itandukanye, harimo imboga ndetse n'ibigori inyuma yaho. Inyuma y'umurima, hari umusozi ndetse muri uyu murima huhirwa hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Ni umuhinzi uri mu murima w'iwe, akaba ari mu murima w'imboga, aho uyu muhinzi afite umupira utwara amazi, ukifashishwa urimo wuhira imyaka, uyu mugabo urimo wuhira izi mboga, arimo arabikora kugira ngo zirusheho gukura neza ndetse no guhangana n'igihe cy'izuba.

Ni abasore babiri bahagaze hakaba harimo umusore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'undi musore wambaye amarineti, uyu musore wambaye ishati akaba arimo yereka mugenzi we hakurya amwereka ikiriyo, imbere y'aba basore hari ibyuma bisize amarangi y'umweru ndetse n'umutuku, naho imbere yabo umugezi.

Ni mu murima mugari, ukaba ari murima uteyemo imyaka mu buryo bwa kijyambere, imyaka ikaba itewe mu buryo bwo ku murongo, ikaba itegeranye n'iyindi. Hagati y'igihingwa ndetse n'ikindi, hagiye harimo inzira umuntu yacamo bitamubangamiye. Muri uyu murima hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu kuhira iyi myaka bigezweho bya kijyambere.

Umusore uri mu murima, akaba ari umusore wambaye ipantaro ndetse n'umupira w'umukara, akaba ari mu murima, akaba afite ibikoresho bibiri bifashisha barimo buhira imyaka cyangwa se bayivomerera, ibi ngibi bikaba bifasha imyaka mu gukura neza ndetse no kwera umusaruro mwinshi.

Ni mu murima mugari cyane, akaba ari umurima ukorerwamo ubuhinzi, akaba ari umurima wuhirwa hifashishijwe ikoranabuhanga, akaba ari umurima uteyemo ubwoko bw'imboga' buteye ahantu hagutse cyane.

Umurima uteyemo amashu. Amashu ateye mu buryo buteye ku murongo, ndetse n'umugabo urimo wuhira aya mashu. Hakurya y'aya mashu hari amashyamba, ndetse imbere yaho hakaba hateye n'indi myaka.

Ni mu misozi akaba ari imisozi iteweho ibiti ariko akaba atari ibiti byinshi akaba ari ibiti bigiye biteye mu buryo buatatanye, uyu musozi ukaba uriho inzira iva muri aka gace yerekeza mu kandi gace, aha ngaha hakaba hakorerwa ubworozi bw'amatungo, bw'amatungo, akaba ari ho bakura ubwatsi bwo kugaburira amatungo yo mu ngo.

Ni mu cyaro hakaba hari inzu zubatswe mu buryo bwa kera, akaba ari inzu zisakajwe amabati y'amategura, zikaba akaba ari inzu zikikijwe n'intoki ziri hafi y'aya mazu, akaba ari intoki nyinshi.

Ni mu misozi aho iyi misozi imwe ituyeho abantu, naho indi ikaba ihinzweho ibiti, muri iyi misozi hari imirwanyasuri, iyi mirwanyasuri ikaba ikaba ifata buno butaka kugira ngo budatwarwa n'isuri, ibi ngibi bigatuma abatuye aha ngaha barushaho guhinga bakeza.

Ni mu ishyamba aho hari umugabo urimo araragira amatungo. Akaba ari ishyamba munsi yaryo hakaba hari ibinogo ndetse no hakurya y'ishyamba hakaba hari imirwanyasuri ifasha, ifasha gufata amazi.

Ni ikiyaga gikikijwe n'imisozi, imisozi iriho imirwanyasuri ndetse hakaba hateyeho ibiti by'amoko atandukanye, hakaba ari imisozi iringaniye itari miremire cyane, hakaba harimo n'uturwa dutoya turi mu ma.

Ni umusozi muremure urebana n'undi musozi uteye ibiti, ariko uwo musozi ukaba uriho, imirwanyasuri nyinshi kuva kuva mu gishanga kugeza kumusozi hejuru hakaba ariho imirwanyasuri, yo gukumira amazi kugira ngo adatwara.

Ni ikiyaga, aho hakurya y'ikiyaga hari imisozi myinshi icyitegeye naho muri iki kiyaga hakaba harimo uturwa. Muri iki kiyaga hakorerwamo ubworozi bw'amafi ndetse n'uburobyi naho kuri iyi misozi tukaba tuhasanga inyamaswa z'agasozi zihatuye.

Ni umuhanda w'itaka, akaba ari umuhanda uherereye mu gace katarimo amazu ndetse aka gace kakaba kagizwe n'ibihuru byinshi. Uyu muhanda ukaba ukoreshwa n'abaturage, bava mu gace kamwe bajya mu kandi.

Ni inkoko ziri aho zororerwa, akaba ari inkoko ziri mu mabara atandukanye harimo inkoko y'umweru ndetse n'inkoko ebyiri z'ubwoko bw'ikinombe ndetse n'indi iri mu ibara ry'umukara. Akaba ari inkoko ziri aho zororerwa zikaba zirimo ziratora ibyo kurya, cyane yuko zahawe ibiryo byo kuzitunga.

Inka ziri mu gisambu zirimo zirisha ubwatsi, akaba ari inka ziri mu mabara y'umukara ndetse n'ay'igaju inyuma y'iki gisambu muri iki gisambu hakaba hateyemo ibindi biti birebire birimo amavoka, ndetse hakaba harimo n'ubwatsi butohereye nk'urwiri.

Umuganga ushinzwe kwita ku nka akaba ari umuganga wambaye imyenda yabugenewe y'umweru ndetse n'undi wambaye imyenda yabugenewe y'ubururu, bakaba bari mu kiraro k'inka akaba ari inka nyinshi, aba ngaba bakaba bashinzwe kwita ku buzima bw'izi nka umunsi ku wundi kugira ngo zirusheho gukura neza ndetse no kurwanya indwara zagerageza kuzitera.

Inka z'inyambo ziri hamwe akaba ari inka z'inyarwanda ziri kumwe n'abashumba bazo, aho bazihagaze iruhande barimo barazigaburira ubwatsi bwazo kugira ngo zirusheho kumera neza.

Inka nyinshi z'inyambo, zisanzwe ari inka, zizwi nk'aho ari inyarwanda ndetse impande yazo hakaba hari abazikurikirana, umunsi ku wundi, bambaye imyenday'umweru ndetse na ga.

Ihene ihene ziri ku gasozi, zirimo zirisha ubwatsi, ni ihene z'amabara y'umweru ndetse n'amabara y'ikinoombe, zikaba zirimo zirya ubwatsi ku gasozi, hakaba imbere yabo ukaba ubona ko hari abantu bazishungereye barimo barazireba.

Ni inka yo mu bwoko bw'inzungu. Akaba ari inka ifite amaherena ku matwi. Iyi nka ikaba iri mu kiraro cyayo. Izi nka zizwiho kuba zitanga umukamo mwinshi ndetse akaba ari inka zifite ubushobozi bwo kuba zahangana n'uburwayi.

Inka ziri mu kiraro, akaba ari inka nyinshi ziri mu biraro byabugenewe, akaba ari ibiraro byubakishijwe ibyuma ndetse no hasi aho zikandakira, aho zikandagira hakaba hubakishijwe isima. Muri biraro, hanze y'ibi biraro hakaba hari abashinzwe gukurikirana, ubuzima bwa zino nka umunsi ku wundi.

Ubworozi bw'inkwavu aho inkwavu za kijyambere zororewe mu biraro byubatse neza, ibiraro byubatse hakoresheje senyenge ndetse n'utu etajeri tumeze neza.

Ingurube yo mu bwoko bwa kizungu akaba ari ingurube y'ishashi iri mu kiraro cyayo, irimo ihagaze idafite ifite ibiryo byayo, ubona ko ibyo biryo ari igiheri irimo irarya.

Imishwi y'inkoko irimo igendagenda aho iba, imishwi igaragara nkaho ikiri mitoya itari kumwe na nyina wazo.

Ni ubworozi bw'inkoko aho izi nkoko zororewe ahantu hamwe akaba ari inkoko nyinshi z'imishwi, izi nkoko zikaba zorowe mu buryo bugezweho, aho inkoko zifite uburyo ziryamo, zikagira n'uburyo zinywamo amazi

Umukozi ushinzwe kwita ku matungo, wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari imbere y'ibiraro ari kumwe n'amatungo amatungo ashinzwe kwitaho ayongayo akaba ari inka, zirimo zirisha n'ubwatsi.

Ni inkoko nyinshi akaba ari inkoko ziri mu kiraro cyazo. Izi nkoko zikaba zirimo ziratora, aho bazihaye ibyo kurya zabyo. Izi nkoko akaba ari inkoko zo mu bwoko bwa kijyambere, akaba ari inkoko zitanga umusaruro mwinshi ugereranyije n'izindi.

Umukozi wita ku nkoko, wambaye imyenda y'ubururu kuva hasi kugera hejuru ndetse n'inkweto z'umukara, urimo ugenda areba ubworozi bw'iwe uburyo bumeze, akaba ari ubworozi bw'inkoko, aho tubona yuko izi nkoko zari zamaze no gutera amagi.

Inkoko nyinshi za kijyambere ziri hamwe zegeranye, akaba ari inkoko ziri mu mabara arimo umweru ndetse n'ikinombe, akaba ari inkoko zisanzwe zizwiho kuba zitera amagi ariko zikaba zitararira.

Inka nyinsha zirimo zirarisha ubwatsi mu gisambu, aho muri kino gisambu hateyemo ibiti bigira amahwa, bikaba ari ibiti byinshi birimo aha ngaha, ndetse hakaba harimo n'ibindi biti by'amavoka muri kino gisambu.

' NI ubworozi bw'inkoko, akaba ari inkoko zo mu bwoko butandukanye aho zifite amabara menshi, muri izi nkoko hakaba higanjemo inkoko nkuru n'intoya nkeya. Akaba ari inkoko ziri mu kiraro cyazo aho zigaburirwa ibiryo babimena hasi naho zikaba zifite naho zinywera amazi.

Amatungo yo mu bwoko bw'inka arimo ararisha ku gasozi, akaba ari amatungo arimo arisha ubwatsi, aya matungo akaba ari menshi, aya matungo akaba ari kumwe n'umushumba wazo, akaba ari umushumba urimo arazitangira kugira ngo zitaza kurehanga aha ngaha zikamurushya kuzigarura.

Ni umurima usandajemo imbuto na ho hakaba hari ibiganza bifite imbuto. Hakaba ari igihe cy'itera aho uyu muhinzi yari arimo ahinga, abiba imbuto ziwe kugira ngo zitangire zikure, zibone uburyo zitanga umusaruro.

Ni umuhinzi ufite imbuto mu ntoki akaba akaba ari imbuto ziri ku rutaro, akaba ari imbuto zifashishwa mu buhinzi zigafasha umuhinzi mu kuzitera zamara gukura zikavamo ibihaza ndetse n'imyungu.

Umuturage urimo utoranya imbuto ya soya, uko bigaragara uyu muturage ayifitiye mu ntoki, iteretse mu gitebo ariko arimo arayizamura, arobanuramo mo inzima ndetse n'izipfuye kugira ngo abone izo akoresha.

Ni ibiryo by'amatungo bisandaraye mu nzu, akaba ari ibiryo byinshi cyane, akaba ari ibiryo bisanzwe bigaburirwa amatungo arimo nk'ingurube ndetse n'inkoko, bikaba biyafasha mu gukura neza.

Umugore ukenyeye igitambaro mu mutwe, akaba ari umugore urimo uragosora ibishyimbo, akaba arimo agosora ibishyimbo, kugira ngo abashe gutandukanya ibizima ndetse n'ibindi bitari ibizima. Ibi ngibi bikamufasha ndetse no kuba abona uburyo abibika cyangwa se akamenya uburyo abitekamo bitamugoye.

Ni imifuka myinshi akaba ari imifuka ifunguye, ikaba irimo imbuto z'amoko atandukanye akaba ari imbuto zifashishwa mu buhinzi. Akaba ari imbuto nyinshi zirimo iz'ibishyimbo, iz'amashaza, akaba ari imbuto zirimo ibishyimbo bitandukanye by'umukara, iby'umutuku, ndetse n'imbuto z'imyungu.

Ni umugore wambaye isengeri ndetse n'akagofero k'umukara, akaba ari umugore uhagaze afite urutaro akaba arimo aragosora imyaka, uyu mugore arimo agosora imyaka kugira ngo akuremo imyaka imeze nabi, asigarane imeze neza.

Imbuto z'ikawa zirimo zirafumbirwa mu murima, izi mbuto z'ikawa zikaba zifumbirwa mu murima binyuze mu kuzitaba mu butaka zikazakura, zikazakura, zamara gukura zikitabwaho zikabona gutanga umusaruro.

Umugabo ufite icyuma urimo arabaga inka akaba arimo arayibaga ayikuraho uruhu, akaba ari inka ubona ko yari kuze ikaba ifite inyama ndetse nyinshi nyinshi cyane.

Abasore n'abakobwa bambaye imyenda yabugenewe bari ku biraro by'inka, akaba ari ikiraro cyubakiwe mu buryo bwa kijyambere. Muri iki kiraro hakaba harimo inka abaganga bashinzwe kwita ku nka umunsi ku wundi bakaba arimo bayitaho kugira ngo barebe ko itaba irwaye ndetse banayikingira kugira ngo itazaterwa n'uburwayi.

Inka z'Inyambo nyinshi ziri mu kiraro cyazo akaba ari inka nyinshi cyane, zikaba ziri mu kiraro, hakurya y'ikiraro hakaba hari abashumba ba zino nka barimo bazitaho.

Umugabo wambaye impuzakano y'umweru, ndetse n'abagore babiri bambaye impuzakano z'umweru, bari kumwe n'abagabo babiri bambaye impuzakano z'ubururu. Abangaba bakaba bahagaze ku biraro, muri ibyo biraro hakaba harimo inka bari kureba.

Ushinzwe kwita ku matungo umunsi kundi wundi, akaba yambaye imyenda yabugenewe ndetse n'uturindantoki, akaba ari inka iri mu kiraro cyayo ndetse iy'inka ikaba iri kumwe na ba nyirayo. uyu nguyu akaba ari ushinzwe kuyitaho areba uburwayi ndetse akaba anayitera inshinge kugira ngo ibashe guhangana n'ubwo burwayi bwagerageza kuyataka.

Ibibwana bitatu akaba ari ibibwana biryamye ku kiringiti, aho buri ikibwana cyambaye umugozi mu ijosi kugira bitaza gucika cyangwa bikaza gusara bikarya abantu. Aho bino bi bwana bikaba byarimo byitabwaho n'ushinzwe kubyitaho, umunsi ku wundi.

Ni mu bwatsi aho hari muganga w'amatungo, akaba ateruye akanyana mu ntoki n'aho mu bwatsi hakaba haryamye inka, iyi nka ikaba yari imaze kubyara, ikaba yari imaze kubyazwa na muganga w'amatungo ushinzwe kwita ku matungo umunsi ku wundi.

Abasore babiri aho bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'itungo riri mu kiraro, aho abo basore babiri barimo bararifata basa n'aho bashaka kuritera urukingo cyangwa se bashaka kurisuzuma uburwayi.

Ni umugore wambaye itaburiya y'umweru akaba ari umugore uri ahatunganyirizwa amata, aya mata akaba yashyizwe mu biyabika biri mu mabara y'ubururu ibi biyabika bikaba bifasha abantu baza kuyatwara bayashyira mu modokari mu kuborohereza kuyatwara bitabagoye, aya mata akaba afunze mu buryo atabasha kumeneka.

Ni abagabo batatu bambaye impuzankano z'ubururu aho umwe yambaye inkweto z'umweru ndetse n'ingofero mu mutwe n'uturindantoki tw'ubururu, bakaba bari iruhande rw'ikiraro cy'inka aho muri iki kiraro harimo inka akaba ari inka iri mu bwoko bw'imbyeyi, aba ngaba bakaba barimo bayikurikirana bayisuzuma barebe ko nta kibazo yaba ifite.

Inyamaswa y'agasozi irimo irisha ubwatsi, ikaba iri kurisha hafi y'umugezi urimo utemba, aha irimo irisha ubwatsi akaba ari ubwatsi butohagiye, hakurya y'amazi hakaba hari amabuye ashinze ku nkengero z'umugezi.

Inyamaswa zo mu ishyamba zirimo ziragenda zirisha, n'izindi zirimo ziregeranye harimo intare ndetse n'imparage, hakaba harimo ingwe, hakaba harimo n'agasumbashyamba ndetse n'inyamaswa bita imvubu, ndetse n'irimo yitwa inzovu.

Igisamagwe cyasamye cyane, akaba ari igisamagwe ubona ko gifite uburakari ndetse n'umujinya mwinshi, cyane kikaba kirimo kireba hino kirimo kitegereza cyane icyagiteye uburakari uburyo kimeze kiramutse kigufashe cya guhitana.

Intare yazuye umugara, irimo ireba imbere kandi ikaba iryamye, intare isa n'aho iri mu ishyamba irimo ireba umuhigo. Akaba ari intare iri mu mabara y'ikinombe.

Ni ubwoko bw'inyoni buri mu mabara y'umutuku ndetse ika afite n'utubara tw'ubururu n'umuhondo ndetse n'icyatsi, akaba ari inyoni ebyiri zihagaze ku ishami, akaba ari inyoni zidakunze kuboneka ahantu hose, ahantu hose.

Igisamagwe kiri hejuru mu giti, munsi y'ibyo biti hakaba hari igihuru gitohereye kiri mu mabara y'icyatsi. Iki gisamagwe gisa nkaho gishaka kuva mu gice kimwe kikajya mu kindi.

Ni inyamaswa y'agasozi, akaba ari inyamaswa itaba mu ngo cyangwa ngo ibane n'abantu, akaba ari inyamaswa zisanzwe zibera mu ishyamba, zikaba zibayeho zihiga kugira ngo zibashe kubona ibyo kurya ariko na yo ikaba ihigwa n'izindi nyamaswa nini.

Ni inyamaswa z'agasozi, akaba ari inyamaswa zisanzwe ziba mu mazi ndetse izi nyamaswa zikaba zifite n'ububasha bwo kuba hakurya y'amazi, izi nyamaswa izi nyamaswa zikaba zitunzwe n'ibinyabuzima biba mu mazi birimo amafi, injanga se n'indugu, ikindi izi nyamaswa na zo zikaba zihigwa n'izindi nyamaswa nini ziziruta.

Ni inyamaswa yo mu bwoko bw'inyoni, akaba ari inyamaswa iba mu ishyamba ndetse no mu mazi, iyo nyamaswa ikaba ibeshejweho no kuba ihiga, ikanatungwa n'amafi cyangwa injanga, ikindi iyi nyamaswa ifite ububasha bwo kuguruka, ikava mu gace kamwe ikajya no mu kandi n'ikindi ikaba ibasha koga mu gihe iri mu mazi.